Abantu benshi cyane bicaye abandi bunamye undi akaba ahagaze, hari abafite mudasobwa kubibero byabo zirimo kwaka, n'indi zifunze batarimo gukoresha telefone mu ntoki.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zisazigamirwa harimo abashinzwe umutekano wo mu muhanda bambaye imyenda yo mu kazi hariho n'ubushobozi bwabo ku m ntugu inyenyeri zigiye zitandukanye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bahagurutse bambaye utuntu mugatuza dusa bose bakora akazi kamwe .Harimo umugore umwe wicaye utageze uhaguruka ,imbere ye hariho ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru hariho ubucupa bw'amazi na terefone.

Abamama benshi bicaye bambaye amadarubundi, harimo abiteye ibintu ku munwa, imbere yabo hariho ameza arambitseho, amacupa, mudasobwa, amaterefone n'ibitabo.

Umuntu umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi batatu b'imbere baricaye bane b'inyuma barahagaze, inyuma yabo hariho ibintu byanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi bahagaze harimo abapapa n'abagore , imbere yaho hari ameza arambitseho icyuma bakoresha baporojegita imbere bareba amashusho, hariho n'ubucupa bw'amazi na mudasobwa, inyuma yaho hariho igikuta giteye irangi hariho n'impapuro zanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi bicaye n'abahagaze bari imbere intore irimo kubyina yambaye imyenda yabugenewe, hasi hariho ibyatsi ahantu bari harubatse hariho inkingi izamuye hejuru, hariho ibintu byubakiye bibarinda izuba n'imvura.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe zegamirwa z'imikara harimo abagabo n'abagore, bambaye amadarubindi abatayafite, hasi hariho amakaro akandagiyeho, mu nzu hateyemo irange, amatara arimo kwaka harimo n'umuntu urimo gufata ibintu birimo kubera mu iyo nyubako mo imbere.

Abantu benshi bicaye bambaye imipira isa y'ubururu harimo umugore umwe witeye ibintu mu mutwe w'umuyisilamu, umugabo wambaye ikote n'ipantaro n'ishati uhagaze urimo guhererekanya indangururamajwi na mugenzi we, hagati yabo harimo ameza abiho igitambaro cy'umweru arambitseho agacupa k'amazi.

Umuntu umwe babiri batatu bicaye imbere yaho hariho ameza, hariho ubucupa bw'amazi, mudasobwa bafite ikaye n'ikaramu arimo kwandika, bose bambaye amadarubindi inyuma yabo hariho amagambo yanditse murimi rw'icyongereza.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, icyenda, icumi bamwe baricaye ku ntebe undi umwe arahagaze arimo gutanga ikiganiro imbere yabo hateretseho ameza arambuyeho igitambaro, hejuru hariho ubucupa bw'amazi telefone na mudasobwa.

Abagabo benshi bicaye mu nyubako mu imbere; bambaye amakoti, amashati harimo umwe wiyamamazaga kuba umukuru w'igihugu cy'u rwanda; imbere yaho hariho ameza arambitseho ubucupa bw'amazi, indangururamajwi

Inyubako mo imbere hasi harimo amakaro, harimo abantu benshi bicaye, undi umwe uhagurutse, abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza harambitseho mudasobwa, umugozi wo kuyicaginga, ubucupa bw'amazi.

Inyubako nini cyane imbere hasi harimo amakaro iteye irangi inzugi zirafunze hejuru harimo ububati burimo casike bambara mu mutwe za moto harimo abantu benshi bicaye abamama n'abagabo imbere yaho hariho ameza hariho terefone zabo, mudasobwa n'ubucupa bw'amazi.

Abantu benshi cyane bicaye harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza asa umuhondo harambitseho uducupa tw'amazi, ingofero zo mu kazi z'ubwirinzi kuba ikintu cyaturuka hejuru ntikikwangize mu mutwe.

Abantu benshi bicaye harimo abagore n'abagabo, imbere yabo hariho ameza ariho igitambaro cy'umweru bashyizeho amashakoshi yabo, hejuru hari amahema manini cyane bahubatse bicayemo, nta zuba ririmo kuvamo hakurya hariyo ibiti binini cyane.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mo imbere harimo uhagaze ufite indangururamajwi urimo gutanga ikiganiro, imbere y'aho harambitseho ameza ariho ubucupa bw'amazi, amagambo ariho yanditse murimi rw'ikinyarwanda ngo inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo.

Umugore uhagaze wambaye amadarubindi ufite imisatsi igwa inyuma mu mugongo, afite mikoro imbere ye hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, igikuta giteye irangi, ibirahure hariho irido igenda bamanura cyangwa bigezayo, hasi hariho ameza arambitseho mudasobwa.

Umwe babiri batatu. Babiri ni abagore rimwe n'umugabo, harimo wambaye amadarubindi, imbere yaho hariho ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, hariho telefone, impapuro n'ikaramu n'uducupa tw'amazi.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hariho ameza arambitseho uducupa tw'amazi, mudasobwa yaho igikuta giteye irangi ry'umuhondo. Inyuma hariho ibiti binini cyane.

Abantu benshi cyane harimo abicaye, abahagaze, undi umwe ufite indangururamajwi mu ntoki ze urimo gutanga ikiganiro mu abo bantu bose, harimo abagabo bashinzwe umutekano bambaye imyenda ya kake, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bigiye bivangavanze.

Inyubako mo imbere hasi harimo sima inyuma hariho amarido agiye amanuyeho ariko harimo gucamo urumuri mu gikuta kazamo imbere abantu benshi bicaye, abamama n'abapapa imbere yabo harimo guca imigozi igiye itambitse.

Abantu benshi bicaye bose barimo kureba imbere, harimo abirabura n'abanyafurika, imbere yabo hari ameza arambitseho ibikombe, ubucupa bw'amazi, ibitabo n'amakaramu.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mu imbere harimo abirabura n'abazungu, imbere yabo hateritseho ameza arambitseho ibikombe, amasahani y'icyuma, ubucupa bw'amazi, amatara arimo kwakama asa ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru na karuvati, uhagaze imbere hariho akabati kazamuye karekare, afite mikoro, arimo gutanga ikiganiro imbere. Inyuma ye hariho ahantu handitse amagambo mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu umwe, babiri, batatu abagore babiri n'umugabo umwe, bose bicaye kuntebe zegamirwa imbere yabo harambitseho imeza ariho ubucupa bw'amazi, impapuro, agashakoshi n'amakaramu mu intoki.

Abantu bicaye mu ntebe zegamirwa, imbere yabo hariho ameza ariho ubucupa bw'amazi, impapuro, abandi babiri bicaye hejuru cyane. Umugabo n'umugore ufite ikayi, barimo kwandika, inyuma yabo hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abana bicaye imbere yabo hariho ameza, igitambaro cy'umweru n'ubucupa bw'amazi, inyuma yabo hariho abandi bahagaze n'uri imbere urimo kubaha ikiganiro wambaye amadarubindi, na mikoro mu ntoki, aho bicaye hejuru harubatse.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi bicaye begamiye, imbere yabo hariho ameza arambitseho ubucupa bw'amazi, mudasobwa telefone, harimo na mikoro zibari imbere harimo kwaka amatara mu manyubako mo imbere.

Umugabo umwe uhagaze wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru na karuvati na musatsa afite yambaye amarinete afite mikoro mu ntoki arimo gutanga ikiganiro, imbere ye hariho akantu kubabatse karekare yarambitseho inkokora hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo n'abagore bahagaze, abandi bicayemo hagati basutamye, bambaye imyenda isa n'ingofero zigiye zisa kuri bamwe, harimo umwe ushinzwe umutekano w'abaturage bavuga ngo ni daso, ikaramu yashyize ku mufuka w'ishati, ku kuboko hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Mu nyubako mu imbere harimo abantu benshi bicaye bagenda bakoze uruziga, imbere yaho hariho ameza arambitseho amakayi, ikaramu, ubucupa bw'amazi, igikuta kiriho amakaro iteye irange amatara hejuru arimo kwaka.

Umuntu umwe, babiri, batatu bane, aba mama babiri n'abagabo, babiri baricaye abandi barahagaze, hakurya yaho hariho inzu nini cyane, n'imodoka zigiye zihaparitse ziri mu bwoko butandukanye.

Abantu umwe babiri batatu bane bicaye bose bambaye imyenda idasa itandukanye, harimo abagabo n'abagore imbere yaho hariho ameza arambitseho amakayi, mudasobwa n'ubucupa bw'amazi.

Abantu benshi bicaye mu nyubako mo imbere, y'abagore n'abagabo imbere yabo harambitseho ameza ariho igitambaro cy'ubururu bwijimye cyane, hejuru hariho ubucupa bw'amazi, impapuro ikaramu amwe arimo kwandika, harimo abambaye amadarubindi abandi batayafite igikuta gifite ibara ry'umu.

Abantu bahagaze imbere umwe, babiri, batatu, bane, undi aragaragara igice cy'ukuboko gusa. Babiri bafite telefone barimo kurebamo, bambaye udupfukamunwa n'abandi bose baradufite, barimo kwirinda nk'indwara y'icyorezo, undi arimo kurebamo akoresheje ukuboko kumwe, hari undi ufite mudasobwa mu ntoki urimo kuyirebamo, hakurya hari inzu iteye irangi ry'umuhondo.

Ipironi ndende cyane igaragara igice cyo hejuru ariko igice cyo hasi kitagaragara ya rezo, hakurya hakaba n'indi ariko bitubatse mu bwoko bumwe, ikirere gifite amabara abiri umweru n'ubururu, ari ubururu bwiganje cyane.

Abantu benshi bicaye ku ntebe zisa zegamirwa, bose ni abagabo nta mugore urimo, imbere yabo hariho ameza ateretseho mudasobwa nyinshi cyane, bambaye imyenda isa ubwoko bubiri bugiye butandukanye, hasi aho bakandagiye harimo amakaro y'umweru inzu iri hakurya iteye irangi ry'umuhondo.

Umukobwa umwe wambaye hose imyenda y'ubururu inkweto z'umweru imisatsi iguye inyuma, ahantu hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda hariho telefone ndimo gukandamo akanyenyeri magana cyenda n'icyenda urwego.

Abantu benshi cyane harimo abambaye udupfukamunwa, n'umwe utakambaye ufite telefone ya samusange arimo kurebamo umusatsi atasokoje. Inyuma ye hariho ibintu bifite ibara ry'umuhondo, umutuku n'icyatsi.

urupapuro rw'ubururu hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo menyeyekanisha ipatante y'u mwaka wose ya bibiri na makumyabiri nagatanu cyangwa igihembwe cya mbere uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu.

Inyubako nini cyane mwimbere harimo abantu bagiye bahagaze nabicaye bambaye imyenda isa , mbere yaho hariho ameza arambitseho mudasobwa hakurya hariyo igikuta giteye irangi nurugi rudafunguye .

Umunara muremure cyane ugaragara igice kiri hejuru warezo hasi hari amazu menshi cyane agiye ahubatse mu buryo bugiye butandukanye hagati harimo ibiti byinshi cyane hakurya hagaragarayo umusozi, ikirere kirimo gusa umwiru n'ubururu bivangavanze.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite amaboko maremare umusatsi mukeya, ufite terefone mu ntoki harimo amagambo menshi yanditsemo adasomeka matoya ku ruhande harimo andi yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw'ubururu runini cyane hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, arasa umweru hariho na'andi asa umuhondo, imbere yaho hariho ahantu handitseho amatariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Inzu ndende cyane zitandukanye no mu myubakire, amabara ariho akajya akaba asa, hagati yazo harimo umuhanda, harimo abantu barimo kugendamo, indabo ziteyemo, hari ahantu handi hubatse harimo abantu bicaye.

Umunara muremure cyane utanga rezo ufite amabara abiri atandukanye umweru n'umutuku, hasi hariho ibyatsi byinshi cyane, insina ziriho zidafite ibitoki, hakurya ikirere kivangavanzemo ubururu n'umweru.

Urupapuro rw'ubururu rwanditseho amagambo mu ururimi rw'ikinyarwanda ngo wakora iki mu gihe habayeho guhita gusohoka kwa gaz, ahandi mu gihe habayeho guhitamo kwa gaze cyangwa kuva.

Ishyamba rinini cyane rifite ibiti birebire hasi hariho ibyatsi bitoya hicayemo inyamaswa bita ingagi, irimo kureba hejuru imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Inzu nini cyane iri hakurya yubakishije amatafari ahiye, hariho urugo ruzengutseho ibyuma ipironi ndende cyane itanga rezo, hasi hariho ibiti byinshi cyane byubatse, ibigori bihateye, ikirere kirimo gusa umweru harimo n'ikindi kibara cy'igikara cyijimye cyane nkaho imvura igiye kugwa.

Umugabo wicaye ugaragara igice cyo hejuru gusa yambaye ishati y'umweru nta musatsi afite imbere ye hariho ameza ariho mudasobwa irimo kwaka harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo serivisi ku irembo.

Mu nyubako mo imbere harimo abantu benshi bicaye , hakaba harimo n'umwe uhagaze, imbere yabo hariho ameza hambiratseho za mudasobwa nyinshi cyane, hakurya uhagaze arimo kureba mu ahantu babika ibitabo.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaraho igice gitoya, harimo imodoka imwe, ebyiri, eshatu, moto ihagaze hakurya itarimo kugenda, inyubako yubakishije amatafari ahiye, hasi bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye ariho n'abantu bahagaze hanze.

Umunara muremure cyane ugaragara igice cyo hejuru aho wubakiye hasi hatagaragara wa rezo, ku ruhande hariho ikindi cya rezo nacyo kimeze nka kanali gifite urusahani hejuru, igiti giteyeho kiyisumba hakurya ikirere kirigusa umweru n'ubururu bwiganje cyane.

Urupapuro rw'umweru wanditseho amagambo mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo garagaza impano yawe utsindire miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa ni'izindi mpano.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto, umuntu uhagaze ntiyambaze kasike imwe bashyira mu mutwe, yazishyize ku mahembe ya moto. Hakurya hari undi urimo kwitaba telefone, ugiye ku rukuta ruri hakurya. Har'inzu nini cyane igeretse, hejuru kujyayo bakoresha urwego burira.

Mu nyubako mu nzu mo imbere harimo abantu batatu umugabo umwe abakobwa babiri baricaye undi umwe arahagaze imbere yabo hariho ameza arambitseho mudasobwa.

Ahantu ninjoro hatarimo kubona, hari umwijima cyane. Harimo umunara muremure wa rezo, hasi urubakiye hazengurutseho ibintu by'ibyuma. Inyuma yaho hari ibiti byinshi. Ikirere kirimo gusa amabara agiye atandukanye ariko higanjemo ubururu cyane.

Inyubako yuzuye iriho ibyapa byinshi cyane by'amoko agiye atandukanye byinshi, imbere yaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, inzugi zirafunguye, mo imbere harimo utubati tunini cyane hasi harimo sima.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo imidoka n'imwe, ugaragara igice kimwe, hakurya hariyo ipironi iriho itara rimurika mu muhanda, insinga z'umuriro w'amashanyarazi, urugo rwubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo inzu.

Ipiloni ndende cyane izamuye y'umuriro w'amashanyarazi hariho insinga nini cyane zitambika, hakurya yaho hariho ishyamba rinini cyane. Ikirere kirimo gusa umweru ubururu bwiganjemo bwinshi cyane.

Amapironi abiri maremare cyane atwara umuriro w'amashanyarazi hariho insinga ndende cyane zigiye zambukiranya, ikerere kirasa umweru n'ubururu bigiye bivangavanze cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugaragara igice gitoya, mu ruhande rw'abagenzi hakurya harimo umugabo urimo kugenda wambaye imyenda y'ubururu. Umukecuru wicaye hepfo mu byatsi, wambaye akantu kagaragaza yuko akora ibijyanye n'isuku. Ibiti byinshi cyane n'amazu ari hakurya.

Ipironi ni ndende cyane itwara umuriro w'amashanyarazi hejuru harimo icyuma kigabanya umuriro cyangwa kikawongera, hasi hariho ibyatsi bitoya n'ibiti binini cyane bizengurutseho hakurya hariyo.

Umuhanda w'igitaka urimo abantu benshi barimo kugendamo bagiye batandukanye, harimo ipironi ndende y'umuriro w'amashanyarazi, hariho amatsinga menshi, hakurya hariyo amazu menshi cyane, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bivanze.

Ikibumbano gikoze muri sima kirekire cyane hamanitse ho insinga zumuriro w’ amashanyarazi hariho n'igitara umuyoboro w’ guhamagara horezo hasi yaho hariho ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye insina ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru wiganjemo cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice gito hakurya y'umuhanda hari undi w'igitaka, harimo gucamo imodoka ihetse urwego, hakurya hari ibiti binini cyane. Ni mugicuku, ninjoro cyane.

Urugo ruzengurutseho ibara ry'umuhondo rya MTN, inyuma yaho harimo n'imitaka ifite ibara nk'iryurwo rugo, kandagira ukarabe zometseho amakaro, moto ziri mu muhanda zirimo kugenda, umunara muremure wa lesson ikirere kirimo gusa umweru ubururu bwiganjemo.

Ibyuma bibiri bishinze binini cyane harimo icyuma cyongera umuriro w'amashanyarazi cyangwa kikawugabanya, hasi hariho ibyatsi byinshi cyane hakurya hari inzu yubatse ifite amatafari yahiye urugo na rwo rufite nk'ayo matafari, ibyuma biriho ikirere kirimo gusa umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo ahagana ruguru ni mu mahuriro yawo ukata iburyo n'ukata ibumoso, harimo abantu barimo kugenda n'amaguru, abahagaze, moto zicayeho abantu zitarimo kugenda n'imodoka zirimo kugenda hakurya n'iziparitse, hari inzu ndende iri hakurya yuzuye n'izindi zitaruzura barimo kubaka.

urunsinga rw'umuriro wa mashanyarazi ruzinze neza muburyo bw'uruziga hazirikishijeho imishumi kugira ngo rutaza kubusanya cyangwa kwibohora hariho ibyatsi hasi barurambitseho hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo wanditsemo imibare iri mw'ibara ry'umweru minini cyane, harimo kugendamo moto n'imodoka nyinshi. Hakurya y'umuhanda hariho rigori, haruguru hakaba ibiti birebire, n'urugo ruhari rwubakishijwe amatafari ahiye.

Ipironi y'umuriro w'amashanyarazi ndende cyane, hariho insinga z'umuriro, hariho urwego bateyeho, umuntu wuriye hajuru wambaye imyenda y'ubururu isa, urimo gukorayo umuriro hejuru. Ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bwiganjemo cyane.

Amapoto abiri arimo ubwoko butandukanye ay'igiti akoze muri sima abumbye ,hejuru hariho abantu umwe, babiri, barimo kumanikaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndende, cyane hakurya y'ikirere kirimo gusa umweru wijimye cyane, hasi hariho ibiti by'amoko menshi agiye atandukanye.

Iinzu yuzuye ifite hejuru umsozo uteye irange ry'umutuku yubakishije amatafari ahiye, hasi hakaba harambitse matora zo kuryamaho ariko zikiri nshyashya abantu bahagaze bafite ibintu barimo kugenda bareba bagura.

Amazu menshi cyane yubatse yuzuye agiye ateye amarangi agiye atandukanye, imbere hariho urugi rusohoka ku mbuga rufunze, urugo rwubakishije amatafari ahiye, imbere hariho imodoka ihagaze inyuma nta n'ikintu kirimo.

Ipironi ndende cyane igaragara yose yumuriro wamashanyarazi hariho insinga ndende nyinshi cyane zirimo gucaho hasi hariho inzu nini igeretse yubakishije amatafari ahiye amadirishya arafunguye hasi hariho ibyatsi bitoya.

Umuhanda w'igitaka, hakurya yaho harunze amabuye menshi cyane. Inyuma hari ibiti birebire n'igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi na za mubazi. Urugo ruteye umucanga, m' imbere harimo inzu.

Ko nini cyane yubatse ifite amarangi y'umuhondo n'umweru, imbere yaho hariho icyuma kirekire, hariho ikintu gifata amashusho arimo kubera aho ngaho mu muhanda, hakaba ipironi ndende cyane ya rezo iikirere kirimo gusa umweru.

Inyubako ndende cyane iteye irangi ry'umweru, n'ibirahure biriho inyuma yaho umunara muremure cyane ucaho itsinga z'umuriro w'amashanyarazi, ikirere gisa n'umweru n'ubururu bivanze.

Inyubako nini cyane ifite urugo rwubakishije amatafari ahiye, fondasiyo yubakishije amabuye mo imbere harimo ipiloni rirerire cyane ririmo insinga nyinshi zitwaye umuriro w'amashanyarazi. Mo imbere mu rugo hateyemo igiti cy'umukindo.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice gitoya harimo abantu bafite moto barimo kugenda bahetsa abagenzi n'abatabafite, imbere yaho hari inyubako ndende cyane y'itaje igeretse hariho igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Urugo rurerure rwubatse ruteye irange ry'umweru hariho n'igikuta ntago amatafari agaragara, hasi yaho hariho indabo ziconze zingana, inyuma yaho hariho igiti kirekire gisumba urwo rugo, hariho n'ipironi ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'itara rimurika mu muhanda mu imbere mu rugo harimo ikindi giti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara igice gitoya harimo ipoto rirerire cyane ritwaye umuriro w'amashanyarazi, harimo icyuma kiwongera cyangwa kiwugabanya, hasi yaho hariho indabo zizengurutseho, hakurya hari inzu nini cyane hariho n'umuntu imbere urimo kugenda.

Umuntu umwe babiri harimo umuganga umwe wambaye imyenda y'akazi, itaburiya y'umweru. Hariho undi mumama umwe wicaye urimo kurebera mu byuma hejuru inyuma ye igikuta giteye ibara ry'umutuku.

Inyubako nini cyane zigeretse rimwe ziteye amarangi y'umuhondo, ibirahure biri hejuru bimwe bifunguye bine bifunze hasi hariho umumama, inyuma ye hari umwana urimo kuza amusanga, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda rihari rizamuye hejuru.

Inyubako zubatse nk'aho batangira ubufasha bwo mu buyobozi bw'igihugu imbere harimo akazu ka emutiyeni gasa umuhondo kanditseho yuko banagamo imyanda harimo abamama bagiye bafitemo ibyo kakantu bashyiramo ibyo kurya.

Inyubako nini cyane iri hakurya, ifite amabara y'ubururu n'umweru, imbere yaho hariho ibiti binini cyane bikuze, munsi yaho hariho ibindi bitoya, bingana, biri ku murongo, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu.

Inyubako ziri imbere zose zubatse mu bwoko bumwe n'ibisenge bisa amarangi ariho ameze kimwe, hateyeho ibiti by'imikindo, imbere y'aho imodoka zihagaze, imvura irimo kugwa, hari umugabo n'umugore bahaciye ariko bose bambaye imipira ifite ingofero.

Ikigo cy'amashuri kiri hakurya ni kinini cyane, hazengurutseho ibyuma n'ibiti bazengurukijeho, imbere yaho hariho ibyatsi bitoya n'ibinini biteyemo, hakurya yaho hariho ahantu harimo sima hasakaye hagaragara inkingi imwe.

Mu nyubako n'imbere hasi harimo sima iringaniye nezagiye ikasemo ibice bigiye bitandukanye harimo intebe, umuntu w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, harimo n'abicaye hejuru harimo kwakamo amatara.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye hejuru hariho ibindi byuma bihari, harimo kizimyamuriro zirimo ubwoko butatu butandukanye, mu mabara hejuru hariho igisenge cy'amabati imbere yaho hariho ibyatsi biyateye.

Inyubako nini cyane ifite inkingi nyinshi cyane iteye irangi ry'umuhondo hejuru hariho igisenge cy'amabati asa umutuku imbere yaho hariho akantu karanga yuko hari epfo hakomeza gafite ibara ry'ubururu hasi harimo ibyatsi bya Pasikaruma baconze bingana.

Inyubako mo imbere batangamo ubufasha bwo kwa muganga, bavura abantu abantu batonze umurongo barimo kugenda bajya ku madirishya, bahereza impapuro akagare kari imbere kicaramo abantu bagiye bavunika, inzugi zirafunguye yubakije amatafari ahiye.

mu muhanda haramo amatafari ahiye harimo abantu barimo kugendamo abagabo n'abagore hariyo imodoka imwe ebyiri eshatu ku mpande hariho inzu

Abaganga umwe babiri bambaye amataburiya y'umweru yo mu kazi, umurwayi umwe uryamye ku gitanda, imbere yaho hariho akabati gafunze hariho ingufuri n'utundi dufunguye n'ibitabo, mu inzu hasi harimo amakaro

Inyubako nini cyane yuzuye iteye irange ry'umuhondo hariho amasekariye menshi ariho uzamuka ugana hejuru, hasi hariho kizimyamuriro iharambitse, imbere yaho hariho ibyatsi bitoya bingana ku ruhande ahantu hariho sima mu nzira zigenda zizengurukamo.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo inshamake y'ikemezo. Iyo perezida w'urukiko rw'ikirenga asuzumye raporo yashyikirijwe ku rubanza rw'akarengane.

Urupapuro rw'umweru hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, icyongereza n'igifaransa. Mu kinyarwanda haranditse ngo iyo abihamijwe n'urukiko, ashinzwa igifungo kitari munsi y'imyaka irindwi ariko kitarengeje imyaka icumi.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane n'undi umwe ugaragara igice kimwe, bose baricaye imbere yabo hariho ameza ariho uwarambitseho amaboko, bambaye furari zisa hakurya hariho amabara agiye atandukanye.

Abantu benshi bicaye bambaye imyenda y'iroza, yuko baba bafunze bicaye mu intebe zegamirwa bose bambaye udupfukamunwa, inyuma hari undi wambaye imyenda ya kake ubashinzwe, arabacungira umutekano wabo, hakaba n'undi ufite kamera arimo gufotora bari mu nzu n'imberemo kwaka amatara.

Umugabo wambaye imyenda ya gisirikare urimo kurahira afashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda yambaye imyenda ya inifomo amarinete, ari mu nzu mo imbere, inyuma ye hariho ibara ry'umukara.

Abantu benshi cyane harimo abicaye, abahagaze harimo umugabo umwe wambaye imyenda y'iroza ufunze urimo kuburanira hagati mu baturage, abandi bambaye imyenda y'ubucamanza bashinzwe kuburanisha hakurya hari inzu nini ihari ifite igisenge kiriho amabati atukura.

Abantu bicaye hasi benshi cyane, imbere hariho babiri bambaye imyenda y'iroza bafunze ariko baje mu rubanza kuburanishwa mu baturage benshi cyane, inyuma yaho hariho urugo rw'ibiti runini cyane hasi hari ibyatsi bahagazemo.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari amezeaariho igitamnbaro cy'umukara, imbere hari undi wambaye imyenda y'umukara uhagaze urimo kuvugira muri mikoro, ni munzu mo imbere hejuru harimo amatara ari kwaka.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru imyenda y'iroza yigaragaza umuntu ufunzwe mu gihugu cy'u Rwanda, yicaye mu ntebe yegamirwa y'umukara afite igitabo mu ntoki ze arimo kurambura impapuro agenda asoma. Inyuma ye hari umuntu umucungiye umutekano wambaye imyenda ya kacyi.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye, hasi hariho abantu bahagaze bafunzwe bambaye imyenda y'iroza. Urugi rufunguye igice kimwe hejuru hariho ahantu handitse amagambo mu rurimi rw'Icyongereza igororero.

Umuntu umwe babiri harimo uwambaye amadarubindi imyenda idasa umwe ni umufungwa uw'undi ni umucamanza urimo kumuburanisha, inyuma yabo hariho igikuta, ikirahure kirimo kugaragara ariko kidafunguye.

Inyubako mo imbere isumbanye, hariho amasikariye menshi cyane hariho amakaro hasi. Abantu bicayemo imbere babafungwa (Abagororwa) bambaye imyenda y 'iroza, n'udupfukamunwa. Hariho abacamanza bashinzwe kubaburanisha imbere yaho.

Urupapuro'umweru hariho amagambo menshi cyane yanditse mu rurimi rw'icyongereza iyarwanda n'igifaransa hazaranditse ngo bitangajwe na perezida wa repubulika kandi bimaze gusuzumwa no kwemezwa n'inama y'abaminisitiri yo kuwa makumyabiri na kane z'ukwa gatatu, bibiri na makumyabiri na gatatu.

Abantu benshi bicaye hasi abandi bahagaze kandi bafite intebe zo kwicaraho, imbere yabo hariho ameza arambuyeho ibitabo, bambaye utuntu dusa nk'aho bari mu kazi barimo gutanga ibiganiro mu baturage.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, arimo gusuhuzanya n'umukuru w'urukiko rw'ubutabera mu Rwanda. Umukuru w'urukiko yambaye imyenda y'akazi, ingofero n'imyenda isa mw'ibara ritukura.

Umugore wambaye imyenda ifite amabara atukura, umukara n'umweru ufite imisatsi n’amarineti y'abantu bashinzwe gutanga ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda, inyuma ye hariyo irange risa umweru rihateye.

Abantu umwe, babiri ,batatu , bane bar' imbere y'abandi bari inyuma yabo, barimo kugenda batera intambwe cyane bose ni abagabo, inyuma yabo har' inyubako yubakishije amatafari ahiye , urugi rudafunguye.

Abantu benshi bicaye mu nyubako ariko bambaye ibintu bigiye bitandukanye, mu bice bibiri barimo abambaye ingofero zisa, abatazifite bashinzwe ubucamanza mu rwanda no gutanga ubutabera kubenegihugu.

Umugabo wambaye ikote n'ishati na karuvati n'amarinete, imbere ye hariho akantu kazamuye hariho mikoro hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yahoze ari umuyobozi mukuru mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bicaye harimo umugore ushinjwa ibyaha yambaye imyenda y'iroza igaragaza y'uko afunzwe ,amarinete ku ruhande rwe hariho umugabo wambaye imyenda ya kacye hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda akaba amushingiye umutekano, amucunga y'uko atatoroka inzego.

Umugabo ugaragara igice cyo hejuru afite ubwanwa bwo hejuru bwinshi, imbere harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hariho n'amatariki, n'amazina ye akaba yitwa Furujansi Kayishema, akaba yanditse.

Abafungwa bambaye imyenda y'iroza bamwe baricaye abandi bahagaze. Bose bambaye udupfukamunwa harimo umushinjacyaha umwe wambaye imyenda y'akazi, urimo kumubaza ikiganiro no kugirana. Inyuma hari umugabo ubashingiwe umutekano, wambaye imyenda ya kaki.

Umugore munini cyane ugaragara igice cyo hejuru wambaye ikanzu y'umutuku hariho umweru, ingofero n'amarinete, iyo myambaro ikaba ikoreshwa mu rwego rushinzwe guca ibyaha mu Rwanda, nyuma ye hariyo irangi ry'umweru.

Umugore ugaragara igice cyo hejuru gusa, yambaye ikanzu y'umutuku hariho imirongo ihagaze y'umukara mu gatuza ka karuvati kamanutsemo k'umweru yambaye imitako mu izosi afite umusatsi yazirikiye inyuma.

Umumama wambaye amadarubindi n'ingofero, ufite imisatsi miremire igwa inyuma, akaba yambaye ikanzu y'umutuku irimo akantu mu gatuza k'umweru, mu imbere yambayemo indi ifite amabara agiye atandukanye, ku munwa yisize ibintu. Inyuma ye hariyo igikuta gifite irangi ry'umweru n'indi mirongo igiye icagaguyemo.

Urupapuro ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba, bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko? Birinde ubutabera ntibugurwa. Hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu bahagaze bose harimo abagabo batatu n'abagore babiri, inyuma y'aho hariho ibintu byanditseho mu rurimi rw'Icyongeereza ariko bidasomeka neza.

Umuhanda wa kaburimbo hariho igice cyo kwambukiramo cy'abagenzi hariho moto nyinshi zaparitse mu muhanda zategereje yuko bari bwambuke abacunga umutekano wo mu muhanda bahagazemo benshi cyane, n'ibiti biri ku mpande by'indabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zihagaze zitarimo kugenda imbere yaho hariho ikintu kiranga y'uko aho hantu hakorera ikigo gishinzwe umutekano wo mu muhanda, hariho ikirangantego cyaho, hariho n'ikindi k'igihugu cy'u Rwanda hakurya yaho hariho ibiti binini cyane.

Mu nyubako imbere hariho amakaro hasi, igikuta giteye irange ry'umweru, hariho kizimyamuriro ebyiri zidasa, imwe ni umweru indi ni umutuku, hariho ibintu by'ibishumi bicometseho by'imikara, hejuru hari ikindi cy'umutuku.

Imodoka y'urwego rushinzwe umutekano wo mu muhanda itariho umuntu inyuma, hasi hariho amatafari ahiye ashashe, hakurya hari inyubako iriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka zirimo kugendemo, harimo abashinzwe umutekano wo mu muhanda. Hakurya hariho icyapa cyanditseho amagambo y'ururimi rw'icyongereza inzu n'ifungwa ziriho zicaho zitwara umuriro wa mashanyarazi.

Abantu benshi cyane bashinzwe umutekano wo mu muhanda bita abapolisi, hari mu kibuga benshi bamwe bafite imbunda bakoresha bafata umuntu wananiranye, hakurya hariyo ibiti binini cyane n'amazu ikirere kimwe gusa ubururu n'umweru.

Abantu bambaye ibisarubeti benshi cyane, bashinzwe gukora akazi runaka, inyuma yaho hariho abana batoya n'umuntu mukuru ufite umwana mu ntoki, imodoka iri ku ruhande, hasi ni umuhanda urimo kaburimbo, hakurya hariho inyubako n'ibiti biri inyuma, byinshi cyane.

Ikizimyamuriro irambitse hasi ifite ibara ry'umutuku hariho ibintu byometseho biri mu ibara ry'umweru, iri ku gikuta gisa ikigina hasi hariho amakaro hano hejuru hariho akantu k'umuhondo kayifungura.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya hariho inzira y'abagenzi, hariho amatafari yahiye awukoze, imbere hariho umuntu ushinzwe gucunga umutekano wo mu muhanda yambaye imyenda yo mu kazi n'ingofero, hakurya hariyo umunara muremure cyane wa rezo, umusozi urimo ibiti byinshi cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye ahantu hamwe, harimo abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bafashe hasi icupa rijyamo ibisukika byaka, hejuru hateretseho isafuriya hari bafashe ikiringiti barimo kurambura hejuru bazimya uwo muriro babibigisha.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahagaze imbere arimo gutanga ibiganiro mikoro zimuri imbere enye, imbere hariho n'ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda, imbere ye hari abantu benshi bicaye, inyuma ye hari n'abandi bahari hariho idarapo ry'igihugu.

Abakozi bashinzwe kubara amatora aba yatowe n'abaturage bambaye imyenda isa babiri baricaye undi umwe arahagaze bafite impapuro z'amatora imbere yabo barimo kugenda bazibara, mu nyubako barimo hari amabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Poro Kagame arimo kwiyamamaza indi manda yo kuzayobora icyo gihugu, bamanitse hejuru udutambaro twanditseho umuryango wa efuperi inkotanyi.

Urupapuro rw'umweru hariho amabara atandukanye, hariho ibirangantego bine, bitandukanye mu mazina, kimwe gifite inyuguti zo mu cyapa nini, fa na pa na ra, ikindi pa na sa na da, ikindi pa na la, icyo hasi cyo ntabwo kigaragara neza.

Umukandida wiyamamazaga ku mwanya wo kuyobora igihugu cy'urwanda harimo kugenda muzira yambaye imyenda isa umweru n'icyatsi, ipantaro y'umukara, isaha ku kuboko amanitse ukuboko hejuru inyuma ye hari abantu bagiye bamuherekeje harimo n'ufite ikintu kigenda gifata amashusho.

Umukuru w'igihugu cy'u rwanda Paul Kagame, arimo kugenda hari inyuma ye hariho abamurinda, bariho ingofero yanditseho amagambo manini cyane mu nyuguti y'icyapa C na T na U, hakurya hari abantu benshi b'umuryango bambaye imyenda isa.

Abagore babiri umwe afite urupapuro rw'ikarita y'itora arimo kurambika mu kantu kabugenewe, undi arimo kwinjira mu kazu aho agiye gufata na we agatora, hasi harimo sima.

Abantu bicaye n'abahagaze n'abarimo kugenda, harimo umugabo umwe wari umukandida mu kuyobora igihugu cy'u Rwanda, warurimo kwiyamamaza mu baturage. Inyuma ye haparisteho imodoka. Hakurya hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu, ariko ubururu nibwo bwiganjemo.

Abagore n'abagabo batonze umurongo muremure, harimo abambaye ingofero n'abatazambaye, imbere yaho harimo pubere banagamo imyanda, hakurya hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hariho inzugi n'amadirishya zisa ubururu.

Perezida uyobora igihugu cy'urwanda numugore we janete kagame urimo guca imbere inyuma yaho harimo abantu benshi cyane ni muri sitade mwimbere bambaye amakote nabambaye imyitero harimo intebe zirambitsemo ubucupa bwamazi.

Umugabo wambaye ikote ishati y'umweru karuvati irimo amabara ufite igice cyo hejuru kirimo kugaragara gusa yambaye amadarubindi umusatsi mukeya inyuma yigikuta gihari gifite irangi ry'yumweru.

Umugabo umwe wiyamamazaga ku mwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda ari mu modoka hejuru, arimo kugenda abiyereka igice cyo hejuru gusa, hasi hari abantu benshi bafite n'ifoto ye bamanitse hejuru bamushyigikiye.

Benshi cyane bunamye bose bambaye imyenda isa bafite impapuro mu ntoki zabo barimo kugenda babara amatora, hakurya hariyo ibitambaro bisa amabara y'icyatsi, umuhondo, hakaba harimo n'amafoto agiye ariho abantu bagiye biyamamaza.

Mu nyubako m' imbere harimo abantu benshi bagiye bicaye bakoze uruziga, imbere yabo harambitseho ameza ariho uducupa tw'amazi, ibikapu by'amashakoshi indangururamajwi zibari imbere, imbere cyane ariyo n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'amatara arimo kwakamo mu iyo nyubako.

.......Bo wambaye ipantaro y'umukara, umukandara, akaba yambaye n'ishati, ukuboko yakwegetse ku gikuta ku papuro afite ikaramu mu ntoki arimo kwandikaho, hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda n'igikuta kiri inyuma gifite amabara avangavanze.

Abagabo babiri bose bahagaze bambaye amakoti n'amapantaro ishati z'umweru na karuvati zirimo amabara atandukanye, amarinete bose mu maso, mu maboko yabo bafitemo ibitabo bibiri bisa, hari ho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, ku mpande zaho harihoterarapo y'igihugu cy'u Rwanda na perezida igihugu cy'u Rwanda inyuma

Umukandida umwe wiyamamarizaga ku mwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda, arimo kwiyamamariza mu baturage benshi bicaye, harimo umwe wambaye umupira hariho amagambo yanditseho mu rurimi rw'ikinyarwanda ngo "indi ntambwe".

Urupapuro rw'umweru handitseho amagambo mu rurimo rw'Icyongereza n'amagambo avanzemo hakaba harimo n'aharimo hasa umuhondo, umibare, harimo imirongo itamabitse n'imanutse igiye avangavanzemo.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame arimo kugenda yambaye inkweto z'umukara ipantaro y'umukara, ishati irimo amabarage atandukanye, amadarubindi, afite umusatsi hasi hariho sima, inyuma ye ibara ririho ku gikuta ririmo gusa ubururu.

Inyubako nini cyane irimo abantu benshi cyane buzuyemo igice cy'inyuma ntabwo kigaragara, imbere hariho umugabo ufite indangururamajwi, agacupa k'amazi urimo gutanga ikiganiro ku abo bantu bose, harambitsemo ameza, buri muntu imbere ye hariho mudasobwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri zirimo kugenda imwe ifite umugezi indi nta mugenzi afite, hakurya hariyo urugo runini cyane ruteye irangi ry'umweru mbere yaho hariho ibiti binini cyane namo imbere hariho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi

Umugabo utwaye igare uhetseho imifuka irimo ibintu bigiye bitandukanye nabwo ubwayo ntabwo isa, hariho imodoka ziri hakurya, hariho umuntu uyihagaze imbere wambaye umupira w'icyatsi, hasi hariho umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka itwara imizigo n'izindi ziri imbere zo zitwara abantu rusange, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti binini cyane, ikirere kirimo gusa umweru, ku rundi ruhande hakurya naho harimo sima igiye irimo.

Mumuhanda wa kaburimbo harimo moto yamapini atatu, hariho amagambo yanditse mururimi rw'icyongereza na purake yayo iri mwibara ry' umuhondo. hakurya hari Indi modoka, itagisi itwara abantu rusange, hari abantu barimo kuza bagana hino, harimo uwambaye...

Umuhanda wa kaburimbo ushaje wagiye umenagurika harimo ibinogo, imodoka irimo kugendamo itwara amazi nini cyane, hakurya hariho ibiti binini cyane ku rundi ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka irimo kugenda ndende cyane ihetse umuzigo w'umucanga, ku ruhandi hari igare rihetse umugenzi n'undi muntu uhagaze, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ahari imbere moto iparitse itariho umuntu imbere cyane hariho abandi bariho kuzigendaho inyubako iri imbere yaho ifite igisenge cyamabati hakaba ninjerekani irambitse kumuryango hafunguye .

Umuhanda wa kaburimbo, harimo moto igeze mu gice cy'abagenzi bemerewe kwambukiramo, ikaba ibaye nk'ihagaze, hakurya yayo y'umuhanda hariyo ibiti byinshi cyane n'itara rimurika mu muhanda n' inzu igeretse cyane ihari.

Umuhanda wa kaburimbo ushaje urimo kugenda umenagurika harimo imodoka nini cyane itwara umucanga imbere yaho hari igare ririmo kugenda, hakurya yaho hariho ibiti binini cyane n'inzu zihubatse.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini cyane iteye irangi ry'umutuku itwara imizigo igi itandukanye, ku ruhande rwayo hariho umuntu utwaye moto ari umwe hakurya yaho hariho ibiti binini cyane bihateye.

Umuhanda w'akaburimbo urimo ikorosi hirya, harimo moto y'amapine atatu inyuma imodoka n'imbere yayo indi modoka hakurya y'umuhanda hariho ibiti n'urubingo ruteye hasi, hakurya hariyo ipironi iriho amatara amurika mu muhanda ndetse menshi arihakurya cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ariko ushaje kurundi ruhande hariho uw' igitaka harimo kugendaho moto zimwe zikoresha umuriro w'amashanyarazi, imodoka n'umuntu ufite ingorofani itariho ikintu, hakurya haparitse imodoka nini cyane itwara abagenzi rusange.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto y'amapine atatu ahetseho ibintu inyuma hazengutseho shitingi y'umweru uziritseho n'mishumi, ku ruhande rwo hakurya hariho ibiti binini cyane bifite uruzitiro ruzengurutsehosupaninete y'icyatsi kurundi ruhande hariho umuserege utwara amazi n'imyanda.

Umuhanda w'akaburimbo hari imodoka z'amadayihatso nyinshi zipakira imizigo ariko zitarimo kugenda, ku ruhande hariho abantu, ku inzira inyuma hari rigori yarasenyutse, igice kimwe haguyemo akantu hakaba hariho amatafari ahiye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugaragara igice gitoya harimo imodoka ikorera imizigo y'imicanga cyangwa amabuye y'amagaraviye matoya, imbere hari umunyegare uhetseho umufuka, hakurya hari izindi modoka zitarimo kugenda zihagaze, amazu menshi n'ibiti bihari.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane iheka imizigo ifunze mu mpande hose, hakurya hariyo ibiti binini cyane bizitiyeho supanete isa icyatsi, ku rundi ruhande hariho igice gitwara imyanda cya borudire cyubakishije amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto irimo kugenda ihetse umugenzi, hakurya hari imodoka iteye amabara y'umuhondo n'umweru itwara abagenzi rusange. Hakurya ku rukuta hariho icyapa kiriho kiyobora abagenzi. Hejuru yaho hariho ibiti byinshi cyane bihateye.

Umuhanda ukoze mu matafari bagiye bakata uko guco hejuru y'imodoka hakurya yaho hariho urugo ruteye irangi ry'umuhondo hejuru hariho umusozo wibara ritukura imbere harimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nyinshi zirimo kugenda zigiye zitandukanye, hakurya yaho hariho ibiti bihari biteye, amatara amurika mu muhanda, abantu barimo kugenda n'amaguru, urugo ruhari rufite amabati asa ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo imodoka imwe irimo kugendamo, ifite ibintu ipakiye hariho shitingi hejuru bazirikishijeho imigozi, ku ruhande hariho ibiti binini bihateye, ku rundi hariho ahantu hamanura imyanda n'amazi, hejuru hariho ikiraro bambuka bagenda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini itarwa abagenzi rusange na moto nizindi zitarimo kugenda zihagaze hirya y'umuhanda hariyo ibiti binini cyane kurundi ruhande amazu manini.

Umuhanda wa kaburimbo haririmo imodoka zirimo kugendamo ebyiri zitandukanye imwe itwaye materara nyinshi cyane zo kuryamaho, hejuru bashyizeho shitingi bazirikaho hakurya hariyo ibiti binini cyane bizengurutseho uruzitiro rufiteho supanete isa icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ariko ushaje wagiye umenagurika harimo ibinogo. Imodoka irimo kugendamo itwara abagenzi rusange, kuruhande rw'umugenzi hariho umuntu umwe urimo kugenda, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti binini cyane biteye yo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto imwe, ebyiri, eshatu zose zirimo kugenda hakurya hariyo inyubako nini cyane hagaragara urugo gusa rufite irangi ry'umweru, hari ibiti bihari n'amatara amurika mu muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo munini cyane, harimo gucamo imodoka iri mu bwoko bwa hoho itwara imicanga, hejuru harimo n'ubundi ibintu by'umweru bipakiyemo, hakurya yaho harimo ibiti binini cyane bihateye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka irimo kugendamo itwara imizigo inyuma itwayemo umuntu uhagazemo arimo kugenda areba aho irimo kugenda yerekeza. Kuruhande hakurya hariho moto irimo kugenda ihetse umugenzi bambaye kasike, ibiti bihateye n'umunyamaguru ugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ariko ushaje wagiye umenagurika. Harimo moto y'amapine atatu irimo kugenda, hakurya y'umuhanda hariho urukuta rwubakishije amabuye, inyuma yaho hariho ibiti n'ibyatsi bito, inyuma hariho amazu menshi cyane.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini cyane irimo kugenda ipakiyemo imitwaro, hejuru bashyizeho shitingi barorosa baranazirikana n'imikuba, hakurya hari umunyegare uhetse umugenzi urimo kugenda, abandi bari ku ruhande barimo kugenda n'amaguru, hakurya hari ibiti binini cyane.

Umuhanda munini cyane yakozweho n'amatafari ahiye harimo abantu barimo kugendamo ninyubako irimo imbere hicayemo abantu harimo intebe nyinshi zigiye zirimo harimo amatara amurika mu muhanda ari hejuru.

Mu kibuga cy'umupira kiringaniye, harimo ibyatsi bito bingana byiza cyane, harimo imirongo yo ku kibuga n'amazamu. Harimo abakinnyi mw'imbere hanze hakaba hari n'undi urimo kwambara inkweto, urimo gufunga amarase yazo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka imbere zirimo kugendamo, umuntu urimo kugenda n'amaguru mu muhanda, ibyapa bihari bimanitse biyobora abagenzi bigaragaza ko umuhanda imbere ukomeza, ibiti byinshi cyane bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibyatsi bigiye bizengurutseho n',indabo ziteyemo hakurya hariyo uruzitiro bazengukijeho wofingi y'umukara hakaba hariho n'ibyapa byanditseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza n'ahandi hariho urufunguzo rucuritse hasi.

Ibiti binini cyane bihari imbere yaho hariho icyapa kiyobora abagenzi hashojemo umuntu urimo kwambuka mu bivuga yuko ari kwambuka bivuga ko ari kwambuka mu umuhanda ikirere kirimo gusa umweru cyane.

Icyapa cy'uruziga kiri mu ibara ry'umutuku'imbere harimo imodoka ishushanyijemo y'umukara irimo kwaka amatara handitse amagambo mu rurimi rw'icyongereza ngo no parikingi bivuze yuko aho hantu imodoka zitemerewe kuhahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaraho agace gatoya imbere yaho hariho, icyapa kirimo amabara atatu atandukanye, umutuku umuhondo n'icyatsi, biyobora ibinyabiziga n'abantu hakurya hari ibiti binini cyane bikuze.

Icyapa kiyobora abagenzi nibinyabiziga birimo kugenda mumuhanda kizengurutseho ibara ryumutuku harimo umugabo ufite igitiyo uri mwibara ry'umukara kikaba kigaragaza yuko imbere harimo gukorerwa imirimo yamaboko.

Icyapa kirekire kiriho amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi, kiyobora abagenzi n'ibinyabiziga mu muhanda yuko byemerewe gutambuka, cyangwa ari abanyamaguru bemerewe kugenda gusa.

Icyapa kiri mu ruziga rw'umutuku mo imbere hasa umweru ikirango kirimo imbere ni umukara, kigaragaza yuko harimo ikorosi mo imbere. Cyangwa dodani buririraho imodoka zirimo kugenda mu muhanda.

Icyapa kiri mu ibara rizengurutse ry'umutuku mo imbere umweru, hatsemo inyuguti nini cyane mu rurimi rw'Icyongereza Y na I na E na R ba T, inyuma y'aho hariho ibiti byinshi cyane n'ibindi bitoya bigiye birutanwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zirimo kugendamo n'amagare, ku ruhande hari na rigore icamo imyanda n'amazi, hariho hakurya ibyatsi bitoya, ibiti binini, icyapa cyanditseho ururimi rw'icyongereza, ikintu gipima umuvuko ibinyabiziga birimo kugenderaho.

Inyubako nini cyane yubatsemo, inyuma yaho hariho urugo ruzengurutseho rwukishije amabuye hejuru hariho ibyuma bizamuyeho biriho bibuza abantu kurira ngo bajye hejuru munsi yumuhanda hariho icyapa gihari kihashinze ku cyuma kirere kirimo gusa ubururu.

Icyapa kiri mu ruziga gifite ibara ry'umutuku, mo imbere harimo uburongo bufite ibyerekezo bibiri bigiye bitandukanye, busa umukara, biyobora abagenzi n'ibinyabiziga yuko harimo imihanda imbere ibisikana.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, mo imbere harimo umuntu urimo kugenda uri mu ibara ry'umukara, hasi harimo uturongo tugiye ducagaguye, kigaragaza yuko harimo inzira y'abagenzi.

Icyapa kinini gishushanyijemo imodoka ifite ibara ry'umukara irimo kwaka amatara, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza "basi sitopudi" bivuze y'uko imodoka zitwara abagenzi rusange zihagarara zihahagaze.

Icyapa kiri mu ruziga gifite amabara abiri atandukanye, umweru n'ubururu, harimo ikintu kigaragaza yuko imbere harimo umuhanda w'amahuriro, mu ruhande rw'ibumoso, ruyobora ibinyabiziga n'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi na moto biromo kugenda, hejuru hariho kamera igaragaza uko bigenda bikurukiranye, hakurya hari inzu ndende cyane y'itaje munsi yaho hari ibiti birebire.

Abantu umwe babiri batatu bose bambaye hejuru ibisa bafite igipapuro cyiri hejuru kiriho amagambo yanditse mururimi rw'icyongereza hejuru hakaba hariho icyapa cyibuza ibinyabiziga kugenda byarengeje umuvuduko wa mirongo itandatu.

Icyapa kiri mu ruziga gifite amabara y'umukara, ubururu n'umweru hariho akantu k'akarongo kagaragaza yuko umuhanda ukomeza uyobora abantu batwaye ibinyabiziga abanyamaguru yuko bakomeza bakazenguruka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka irimo kugenda harimo ibyapa bihagazemo, umuzungu umanitse amaboko hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igifaransa, handitse ngo urugendo ruhire mu Cyongereza repubulike ofu Uganda, mu gihugu cy' Ubugande aho ahagaze hasi harimo ibyatsi.

Ni umuhanda wa kaburimbo utarimo kugaragara ahagaragara rigori itwara imyanda n'amazi, haruguru yaho hariho inzu nini cyane yubatse iriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda. Ipironi iri imbere iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Inzu nyinshi cyane zubatse zose, zuzuye zizasakaje amabati atukura zose, m'imbere harimo ibiti, imikindo n'indi irimo yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nini cyane igeretse etage hariho irangi riteyeho ibyuma biri imbere nabyo bisize, urugo ruhari ruzengurutseho ibiti bihateye ikirere kirimo gusa umweru cyane hariho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ahantu hatagaragara neza harimo ibyatsi n'ibiti byinshi cyane, amazu agiye atandukanye, amagufiya n'ageretse cyane, ikirere kirimo gusa umweru, hakaba harimo n'iminara miremire itwara umuriro w'amashinyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo utarimo ikintu na kimwe hakurya hariho inzira y'abagenzi yubakishije amatafari, inyuma hariho ibiti byinshi cyane binini, ikirere kirimo gusa umweru mwinshi cyane.

Inyubako nyinshi cyane y'ahanu mu mujyi agiye atandukanye ariko yose afite igisenge cy'amabati imbere harimo ibiti byinshi cyane by'amoko menshi bigiye bitandukanye igiti kirekire kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi n'ikigega kirimo imbere kibika amazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi, hakurya ya ho hariho inzu ngufiya n'izindi zigeretse hejuru zifite amarange agiye atandukanye. Ikirere kirimo gusa umweru.

Inzu ni nini cyane n'ingufiya byubatse mu buryo butandukanye, n'amabara ariho ntabwo asa, hakurya hari indi yanditseho eyateli, hejuru hariho iminara miremire ya rezo isumba iyo nyubako, hasi yaho hariho igiti kinini cyane.

Inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye, harimo intoya ndende zigeretse hejuru hariho izifiteho bya byuma bigenda bishyushya amazi, hakurya hariyo umusozi munini nawo urimo umujyi ahantu harimo kugenda hatera imbere cyane, ibiti byinshi cyane bigiye bivangavanzemo.

Umuhanda wa kaburimbo ariko wagiye umenegurika igice kimwe, hakurya hariho inzu nini y'itaje irimo kugaragaraho ibyuma bizengurutseho imbere birinda ko abantu bahanuka. Munsi yaho hariho indabyo ziteyeho na moto irimo mu muhanda.

Inzu nini cyane igeretse, hejuru harimo itara ritarimo kwaka, iteye irangi ry'umweru ibyuma bizengurutseho bigana hasi n' utuntu tugiye dushushanyijeho, hasi hariho amatafari ahiye bagiye bakata.

Inyubako nini cyane yubatse neza, iriho irangi ry'umweru, amadirishya n'inzugi bifunze, hariho bwa mubazi bw'umuriro w'amashanyarazi bumanitse ku gikuta, hejuru hariho itara rimurika mu mbuga ritarimo kwaka, ibiti biri inyuma yaho n'izindi ndabo ntoya zihinze.

Umuhanda wa kaburimbo harimo abantu barimo kugenda n'amaguru na moto iri imbere imbere ya bo hariho inyubako nini igeretse, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti byinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto ebyiri itwaye umugenzi indi idafite umugenzi hari aba mama babiri bavuye mumuhanda barimo kuvugana undi umwe ukora isuku yo mumuhanda urimo kugenda hariho amagambo yanditse mururimi rwicyongereza ibiti byinshi namazu ahubatse

Inzu nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu myubakire n'ibisenge byo hejuru bidasa, harimo ubiti byinshi cyane by'amoko agiye atandukanye. Hakurya ikirere gifitemo umweru n'ubururu bivangavanze

Inyubako ndende cyane iteye irangi ry'muhondo rifite hejuru umusozo w'inzu usa umutuku hejuru hariho ibigega, kimwe, bibiri, bitatu, amadirishya asa umukara ikirere kirimo gusa umweru n'ubururu bwiganje.

Inyubako ndende cyanegeretse itaje ibirahure bigiye bifunguye imbere yaho hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi itara amurika mu muhanda ariko hatarimoka ibiti binini cyane bihari.

Ndikubona ibyatsi bito cyane harimo ibiti birebire bikuze cyane, hirya hari abantu bicaye babiri ku kantu imbere yaho hariho puberi banagamo imyanda, iruhande rwabo hari umuhanda urimo amatafari ahiye ashashe.

Inyubako nini cyane igeretse hariho igice giteye irange ry'umweru ikindi hariho amabati atukura yubakishishije amatafari ahiye urugo rw'inyuma narwo rwubakishijwe nkayongayo inyuma yaho hariho ibyatsi bitoyo n'ibiti birebire n'umuhanda ucamo hagati yabyo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ahantu harimo amakorosi harimo umumotari uhetse umugenzi, n'umunyegare uheretse undi muntu umwe, nta kindi kinyabiziga kirimo hakurya hariho ibiti byinshi cyane, ikirere kirimo gusa umweru, harimo amatara arimo kumurika mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto n'imodoka birimo kugenda hakurya y'umuhanda hariyo ishyamba ryinshi n'ipironi y'umuriro w'amashanyarazi ku rundi ruhande hubatseho amazu menshi ikirere k'ivu gusa umweru n'ubururu ariko umweru niwo mwinshi wiganjemo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zirimo guca munsi, hejuru yaho hariho undi ugeretseho, ku mpande zaho hariho ibyuma bitangira abantu ko bahanuka, amatara arimo kumurika ku muhanda, hakurya y'umuhanda hariho ibiti byinshi cyane biriho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zirimo kugendamo eshatu, hakurya y'umuhanda harimo inzu n'ibiti byinshi cyane, ku nzira y'abagenzi hariho amatafari ashashe neza yose ikirere kirimo gusa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umunyemoto uhetse umugenzi, n'umuntu uba ufite igare bakoresha ingororamubiri, hakurya hariyo imodoka ndende ihaparitse ikururanwa, inyuma yaho hariho ibyatsi binini cyane.

Umuhanda wa kaburimbo ariko ushaje, wagiye umenagurika urimo ibinogo, imodoka zirimo kugendamo na moto hakurya y'umuhanda hariyo ibiti byinshi cyane n'inzu ziriyo, ikirere kirimo gusa ubururu n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nyinshi n'amahuriro menshi, harimo ibiti by'imikindo hagati, inyuma y'umuhanda hariyo amapironi ariho amatara amurika, urugo rw'amatafari ahiye, inyuma yaho harimo inzu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice binini cyane n'amakorosi menshi, hakurya yaho hariho ibyatsi bitoya bingana n'ibindi birimo binini cyane, imikindo igiteyemo amatara amurika mu muhanda inyubako zihari ndende cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto zirimo kugenda, hagati hakaba harimo ahantu harimo ibyatsi bitoya n'umukindo uteyemo, amatara arimo kumurika ku muhanda, hakurya hakaba hariho ibiti byinshi cyane n'inzu yubatse.

Umuhanda w'igitaka mo hirya harimo imodoka irimo kugendamo, ku ruhande hariho indabyo n'ibyatsi bihateye, urugo rwubakishije y'amatafari ahiye, insinga z'umuriro w'amashanyarazi zirimo guca mu kirere hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo ugera ha ruguru ukageramo amahuriro abiri agiye atandukanye, harimo moto zirimo kugenda, hagati harimo amatara amurika mu muhanda, insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziri hejuru y'ibiti biri munsi yabyo byinshi cyane bite, ikirere kimwerimo gusa umweru n'ubururu bivangavanze.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo amahuriro menshi harimo moto zirimo kugendamo zirimo kwaka amatara hakurya hari imodoka zihagaze zitarimo kugenda nijoro bumaze kwira amazu menshi ari hakurya y'ikirere kirimo gusa ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo hariho igice abagenzi banyuramo, harimo kugendamo imodoka n'amamoto menshi, hejuru harimo ikintu kigaragaza yuko ibintu bigenda bikurikirana ku ku murongo.

Umuhanda wa kaburimbo harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, mu nyuguti nini ngo a na ha na e na a na da. Hakurya y'umuhanda hariyo ibyatsi bitoya ikirere kirimo gusa umweru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto n'imodoka zirimo gucamo mo hagati harimo indabo n'igiti cy'umutsindo ruguru y'umuhanga ibiti byinshi cyane inzu ihubatse ifite igisenge cy'amabati adukura ikirere kirimo gusaba umweru.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane ugera imbere ukavamo ibice byinshi bigiye bitandukanye, harimo abantu mu muhanda imodoka zirimo kugenda n'izihagaze ku ruhande rwa ruguru imbere y'amazu menshi cyane, ikigega cy'amazi, hakurya hariyo imisozi irimo kuhagaragara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka zirimo kugenda zacanye amatara, umuntu uri ku ruhande wambaye isarubeti n'inkweto n’ikobori, hasi aho akandagiye hakaba hashashe amatafari, hakurya y'umuhanda hariyo ibiti binini cyane.

Umuhanda wigitaka hakurya harimo uwa kaburimbo harimo moto nyinshi zirimo kugenda nimodoka hirya hariho ikiraro hakurya y'umuhanda hariho ibiti binini cyane ninzu yubatse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto irimo kugenda, hakurya y'umuhanda hashasheho amatafari ahiye, kurundi ruhande hariho ibiti by'inshi cyane, n'amatara arimo amurika mu muhanda imodoka irimo kugendamo n'inzu iri hakurya.

Umuhanda wa kaburimbo munini cyane hakurya harin’ndi urimo guturukamo imodoka abantu babiri barimo, wambaye imyenda yi’ishuri uhetse igikapu barimo kwambuka. Baciye mu nzira y’abagenzi yabugenewe harimo amatara arimo gucana mu muhanda; ibiti by’umukindo biteyemo.